Impuguke mu by'ubuvuzi bw'amatungo ndetse n'ubuhinzi, aho icururiza imiti ndetse n'ibikoresho byabugenewe mu bworozi ndetse n'ubuhinzi, bityo ni byiza kumugana akagufasha.

Ifumbire y'imborera ikomoka ku bimera byifashishwa mu buhinzi bw'ibintu byose, cyane cyane imbuto n'imboga kugira ngo zibashe kubona ibyo zikenera ngo zikure neza kandi zitange umusaruro ukenewe ku isoko.

Inyubako zitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, yaba izo kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga mu bigo by'imari bigiye bitandukanye, ubucuruzi bw'inzoga, ahacururizwa imiti yifashishwa mu buhinzi n'ubworozi.

Agrotech ahatangirwa ubufasha mu gucuruza imiti yifashishwa mu bworozi ndetse no mu buhinzi, ni byiza ko umuntu agisha inama abahanga bakora muri kino kigo mbere yo gutangira ubuhinzi runaka.

Ubuhinzi bw'urutoki kimwe mu bihingwa ngandurarugo, aho abaturage barimo barakorera urutoki rwabo bongeraho ifumbire ndetse banarubagara kugira ngo byongere umusaruro.

Ahacururizwa imiti itandukanye, yifashishwa mu buhinzi ndetse no mu bworozi. Harimo iyica udukoko, iyirukana udusimba, iyongera umusaruro, amafumbire ndetse n'ibindi.

Ahatangirwa ubujyanama ndetse hakanacururizwa imiti yifashishwa mu buhinzi ndetse no mu bworozi, yaba iyongera umukamo, iyica udukoko, inkingo, iyongera amata n'iyindi.

Ahacururizwa imiti yifashishwa mu buhinzi ndetse no mu bworozi, mu kwita ku matungo ndetse n'ibihingwa biyarinda ibikoko cyangwa ibisimba bishobora kwangiza ibihingwa ndetse n'indwara ku matungo.

Abaturage ndetse n'abayobozi n'abafasha mu bujyanama mu by'ubuhinzi, aho bahuriye hamwe mu kwita ku gihingwa cy'ibigori, bagenda bashyiraho ifumbire kugira ngo birusheho gukura neza.

Umuturage uri gutera imiti ibihingwa bye. Ni byiza ko twita ku bihingwa byacu tubitera imiti ibirinda udukoko tubyangiza, kuko bituma tutabona umusaruro twifuza bityo tukaba twahomba.

Ahacururizwa imiti itandukanye yifashishwa mu bworozi ndetse no mu buhinzi, harimo iyica udukoko, irinda ibyorezo ku matungo, iyongera umusaruro, iyongera umukamo ndetse n'indi itandukanye.

Ubuhinzi bw'imboga bukorewe mu bikoresho bitandukanye byo muru rugo, cyane cyane nk'ibikoresho bya parasitiki bishaje. Ni byiza kubyaza umusaruro ibikoresho bya parasitiki bishaje muri buno buryo, turinda kubikusanyiriza mu ibidukikije.

Ifumbire yifashishwa igihe haterwa ibigori cyangwa ibishyimbo kugira ngo bizazamuke bibona intungamubiri bikeneye kugira ngo bikure vuba kandi bizatange umusaruro wifuzwa.

Ifumbire yifashishwa mu gukuza imyaka igiye itandukanye ya NPK: kuko iyi fumbire irimo ibinyabutabire ibimera bikenera umunsi ku wundi kugira ngo bikure neza.

Ahacururizwa imiti, ingemwe ndetse n'ibinyabutabire bitandukanye byifashishwa mu buhinzi ndetse no mu buvuzi bw'amatungo. Ni byiza kugana abaganga igihe amatungo cyangwa ibimera byacu bifite ikibazo.

Ahatangirwa ubufasha mu byo korora ndetse no guhinga n'impuguke zabihuguriwe ndetse zikanabyiga. Hakanacururizwa imiti itandukanye yifashishwa mu kongera umusaruro, umukamo mu kurinda indwara, mu kwica udukoko ndetse n'ibindi.

Ahacururizwa imiti yifashishwa mu buhinzi ndetse n'ubworozi tutibagiwe n'ingemwe zishobora guherwaho zihingwa zityo zigatanga umusaruro w'imbuto cyangwa imboga wifuzwa, ni byiza kugana ndetse no kugisha inama impuguke zikora hano.

Farumasi ahacururizwa imiti yo mu buvuzi cyane cyane ubw'amatungo kugira ngo birinde amatungo indwara z'ibyorezo ahura nazo kandi biyafashe gukura neza.

Ifumbire ishyirwa ku bimera kugira ngo bibashe kubona intungamubiri zikwiye bityo bikure neza. Ni byiza kumenya ifumbire nyayo yo gushyira ku kimera cyawe n'igihe nyacyo cyo kubikora.

Ifumbire y'imborera yifashishwa mu gufumbira imyaka igiye itandukanye harimo imboga, ibinyampeke, ibishyimbo ndetse n'indi myaka kugira ngo ibashe gutanga umusaruro ukwiye.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bari gushyira ifumbire yabugenewe ku gihingwa cy'ikawa igihingwa cyiza cyane kuko cyinjiza amadevize mu gihugu ndetse kikanateza imbere ugihinga.

Ahacururizwa imiti, ingemwe inkingo cyangwa ibindi byose bifitanye isano n'ubuvuzi cyangwa ubworozi bw'amatungo bityo rero, ni byiza ko umuntu wese yifashisha iyi miti mu kwita ku matungo ye ndetse n'ubuhinzi.

Ububiko bw'ibikomoka ku buhinzi bukozwe mu buryo bwa kijyambere kugira ngo bifashe kuboneka kw'ibiryo ku masoko ndetse no mu baturage, ibiryo bifite ubuziranenge buhagije.

Ubuhinzi bw'ibigori bugezweho, bukozwe mu buryo bwa kijyambere. Abayobozi ndetse n'abaturage bahuriye mu gikorwa cyo gushyira ifumbire kuri bino bigori kugira ngo bibashe gukura neza.

Umuhinzi uri kwita ku bihingwa bye by'ibigori abitera umuti wica udukoko dukunda gufata ibigori tukarya ibibabi, bityo ibigori ntibitange umusaruro ukenewe wo guhaza amasoko.

Ubuhinzi bw'imboga gusa ubu butaka buri gutenguka bitewe n'uko ibiti bidahinzemo bihagije bityo ni byiza guhinga n'ibiti ku butaka nk'ubu kugira ngo tuburinde gutenguka.

Ubuhinzi bwiza bumeze neza bw'ibitoki, bikaba ari ibitoki bikomokamo umutobe cyangwa imineke, rimwe na rimwe bikifashishwa mu nganda bakora inzoga.

Ubuhinzi bw'avoka ndetse n'ubw'amateke, ni byiza gusasira ibi bihingwa kuko bituma bibona ifumbire ihagije bityo bigakura neza kandi bigatanga umusaruro mwinshi.

Ahatunganyirizwa ibiti bizwi ku izina ry'inturusi, ibi ni ibiti biterwa ku misozi kuko ari ibiti bikomera bityo bikarinda ugutenguka k'ubutaka ndetse n'isuri, ni byiza gutera ibiti nk'ibi ngibi ahantu hahanamye.

Ubuhinzi bw'ikawa, kimwe mu bihingwa byongera amafaranga mu gihugu cyane ko byoherezwa hanze bityo bigateza imbere igihugu ndetse bikanateza imbere umuhinzi ubukora, gusa ni byiza kubwitaho ndetse no kubikora witanze.

Imbuto z'avoka, izi mbuto ni nziza cyane ku buzima bwa muntu kuko harimo intungamubiri zitandukanye cyane cyane iz'ibinyamavuta byifashishwa mu guha umubiri w'umuntu imbaraga.

Ubuhinzi butejwe imbere bw'inyanya. Ni byizayiza guhiga muri buno buryo kuko bifasha umusaruro kwiyongera ndetse n'inyanya zikaba zisa neza cyane.

Ubuhinzi bw'urutoki bukaba ari ubuhinzi bukozwe mu buryo bwa kijyambere kuko havanzwemo n'ibindi biti byifashishwa mu kurinda imyaka nk'imiyaga, isuri ndetse n'ibindi.

Ahatunganyirizwa ibiti bigiye bitandukanye yaba ibivangwa n'imyaka ibishyirwa mu busitani ndetse n'ibyongera ubwiza mu ngo z'abantu bakaba ari ibiti byinshi cyane.

Ubuhinzi bw'urutoki bugomba gukorwa neza kandi urutoki rukitabwaho, rukorerwa isuku, rubagarwa kandi runacibwamo amakoma yaguye hasi kugira ngo rubashe gukura neza.

Icyayi ni kimwe mu gihingwa cyongera amafaranga mu gihugu kuko cyoherezwa hanze, bityo kikinjiza amadovize kandi bigateza n'imbere ugihinga kuko na we abona amafaranga.

Ingemwe z'ibiti bigiye bitandukanye cyane cyane ibivangwa n'imyaka kugira ngo birinde imyaka kwangirika biturutse ku isuri cyangwa imiyaga imwe n'imwe ishobora kugwisha imyaka nk'ibigori cyangwa amasaka.

Igihingwa cy'ikawa kimwe mu bihingwa nyongerabukungu, kikaba ari kimwe mu byoherezwa hanze y'igihugu bityo kikinjiza amadovize, ni byiza ko umuhinzi w'iki gihingwa akitaho kugira ngo kimuhe umusaruro ukwiye.

Umuceri kimwe mu bihingwa bifatiye runini abanyarwanda ndetse n'ahandi hose hatandukanye ku Isi, kuko ari igihingwa kiryoha kandi kiboneka ku buryo bworoshye, kikaba gihingwa mu mibande.

Ibitoki bizwi nka fiya, bikaba ari byiza cyane kuko bitanga imineke myiza iryoshye cyane kandi bikazana n'amafaranga ku ukora ubwo buhinzi bwabyo.

Ubuhinzi bw'amashuri ni bwiza kuko buteza imbere ubukora, uyarangura, uyacuruza ndetse n'uyarya, bityo bose ubuzima bwabo bukarushaho kuba bwiza biturutse kuri iki gihingwa.

Avoka imwe mu mbuto zihagazeho muri iki gihe kuko zihenda cyane ariko zikaba ari nziza ku mubiri w'umuntu kuko hakomokamo ibinyabutabire by'ibinyamavuta bitunga umubiri w'umuntu.

Mu rutoki ahatunganyirizwa ibimera bigiye bitandukanye, cyane cyane ibishobora kuvangwa n'imyaka n'ibyakongera ubwiza nyaburanga ahantu hatandukanye, nko ku mihanda mu mahoteri ndetse n'ahandi.

Igihingwa k'imyumbati, kimwe mu gihingwa kiza cyane kuko imyumbati ifatiye runini abaturarwanda, cyane ko ikomokaho ubugari kandi bukaba buribwa na benshi mu gihugu.

Ibijumba ni kimwe mu bihingwa biribwa n'abanyarwanda benshi kuko biboneka cyane gusa muri iki gihe byatangiye kubura, bityo rero ni byiza gushishikariza abahinzi kongera guhinga ibijumba.

Ikidendezi cy'amazi impande y'ubuhinzi, akaba ari amazi ashobora kwifashishwa mu kuhira imyaka ndetse no gufasha abahinzi koroshya ubutaka bityo ibimera bigakura neza.

Ahatunganyirizwa ibiti by'amapera, ibiti bivangwa n'imyaka, bityo bigatuma imyaka ikura neza, bikanayirinda imiyaga imwe n'imwe kandi binabungabunga ubutaka bibufata.

Ubuhinzi bw'imboga zizwi nk'imbwija, imboga nziza cyane ku ndyo yacu ya buri munsi tutagomba kubura kuko zifasha umubiri mu kurinda indwara ndetse no gukomeza ibice bimwe na bimwe by'umubiri.

Ubuhinzi bw'ishyamba ni byiza kwita ndetse no gushyira mu mitwe yacu ibikorwa byo gutera amashyamba cyane cyane ahantu hari ubuhaname kuko amashyamba ari kimwe mu bintu birinda isuri.

Ubuhinzi bwa beterave imwe mu mboga ishobora kuvamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye harimo nk'umutobe utunganyije unyobwa ndetse bikaba byanavangwa n'ibindi biribwa nk'ibirayi umuceri n'ibindi.

Ubuhinzi bw'ibirayi ni bwiza cyane kuko butanga umusaruro wifuzwa mu gihe gitoya kandi ibirayi bibasha guhaza abaturarwanda benshi. Ni byiza ko twita ku buryo bwo guhunika ibirayi.

Imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo yaba inkoko, inka, ingurube ndetse n'andi matungo atandukanye bityo amatungo akabasha kubaho neza no gutanga umusaruro wifuzwa.

Umuti wifashishwa mu bworozi bw'amatungo, cyane cyane ukaba wifashishwa ku nka ndetse n'intama; ukaba urimo ibinyabutabire bikenewe kugira ngo inka zibone umukamo uhagije ndetse n'inyama.

Urukwavu n'abana barwo, rimwe mu matungo akunzwe na benshi, kuko riri mu matungo yororoka vuba kandi agatanga umusaruro ndetse n'amafaranga ku muntu uyorora tutibagiwe n'inyama.

Ikinyabutabire cyifashishwa mu buvuzi mu buryo bwo kugira ngo hamenyekane umuti ushobora kwifashishwa mu kwica udukoko tutaboneshwa amaso, dutera indwara zitandukanye.

Ubworozi bw'inkoko, aha ngaha hakaba hakorerwa ubworozi bw'imishwi y'inkoko za kijyambere kandi bisaba kuyitaho cyane kugira ngo ikure vuba kandi itange umusaruro.

Ikinyabutabire cyifashishwa mu buvuzi cyane cyane mu gukusanya ndetse no gutandukanya udukoko duto tutaboneshwa amaso tuzwi nka yisite dutera indwara zigiye zitandukanye harimo n'iz'uruhu.

Umuti wifashishwa mu bworozi bw'inkoko urimo ibinyabutabire n'ama vitamine atandukanye, aho uyu muti ushobora kongera imikurire, ukongera ubudahangarwa ndetse ukongera n'ubushobozi bwo gutera amagi.

Umuti wifashishwa mu buvuzi bw'amatungo nk'ingurube, inka, ihene ndetse n'andi matungo mu kurinda indwara zikomoka ku dusimba dutoya tutaboneshwa amaso tuzwi nka bagiteri.

Umuti witwa Oxyline uvura amatungo ukaba uvura indwara z'amatungo zigiye zitandukanye harimo nk'impiswi, himoniya ndetse n'indwara zifata ku ruhu ndetse no hagati mu birenge.

Ibidomero bikaswemo, bishobora kwifashishwa mu buhinzi cyangwa no mu bworozi, cyane cyane nko kuhira imyaka cyangwa kuhira amatungo. Ubu buryo bufasha abahinzi cyangwa aborozi.

Umuvuzi ubifitiye ububasha, aho ari kuvura itungo ry'ingurube, aritera imiti rikeneye kugira ngo rikire indwara rifite, ni byiza gushaka abaganga b'amatungo babihuguriwe kuko ari bo baba bazi indwara bavura.

Inka iri ku kibudiro aho iri kunywa amazi, ni byiza ko umworozi wese agira ahantu habugenewe yubaka ikibumbiro azajya yifashisha mu kuhira inka ze kuko bituma zibasha kubona umukamo mwiza no kurisha neza.

Umuti wifashishwa mu bworozi, uyu muti ni mwiza kuko urinda indwara z'ibirenge ndetse no mu kanwa, bityo amatungo akabasha gukura neza kandi agatanga umusaruro.

Ikinyabutabire kifashishwa mu gusuzuma udukoko tutaboneshwa amaso dushobora kuba turi mu mata ndetse n'ibikomoka ku matungo, ni ikinyabutabire cyifashishwa mu nganda ndetse no mu buvuzi.

Umuturage uri gutegura umurima we neza kugirango azabashe guhinga ibihingwa bigezweho muri sezo arimo, ni byiza ko umurima ubanza gutunganywa uko bikwiriye kugira ngo ibihingwa bizahingwamo bizakure neza.

Abahinzi b'ibishyimbo, aho bari kuganirizwa ku buryo bwiza bwo kwita ku bishyimbo, harimo kubyanika neza ahantu hafite isuku kandi hakeye kugira ngo bitangirika cyangwa bitabora.

Abaturage bari mu bikorwa by'ubuhinzi mu gice cyahariwe guhingwamo, bakaba bari kwifashisha ibikoresho bitandukanye, harimo nk'amasuka, majagu ndetse n'ibindi.

Abaturage bari gutunganya umurima uhinzemo urutoki kugira ngo bateremo indi myaka ishobora kuvangwa n'urutoki, ni byiza ko umwanya wose uri mu rutoki ubonerwa igishyirwamo ariko gikwiriye.

Umuturage uri gukora umurimo w'ubuhinzi, ni byiza kugira abaturage bo muri kino cyiciro kuko ari bo badufasha kubona ibyo umubiri wacu ukenera umunsi ku wundi.

Umuhinzi uri gutunganya udupariseri two guteramo imboga zigiye zitandukanye bityo gahunda yo kurwanya imirire mibi ndetse n'igwingira mu bana ikarushaho gutera imbere.

Abaturage bitabiriye umuganda, aho bari gusukura umuhanda wabo kugira ngo urusheho kuba nyabagendwa, ni byiza kwitabira umuganda kuko bifasha gusukura ndetse no kubungabunga ibidukikije.

Abahinzi bari kwita ku mboga bazibagara bagakuramo ibyatsi bishobora gutuma zidakura neza, ni byiza no kuzitera umuti wica udukoko kuko dutuma zidakura neza ngo zitange umusaruro wifuzwa.

Abaturage bahuriye hamwe mu kizwi nk'umuganda, kugira ngo biyubakire igihugu kandi batume kigira isuku. Ni byiza ko twitabira umuganda kuko bifasha mu guteza igihugu imbere.

Ubuhinzi bw'imyaka bukomatanyije, aho ari imyaka igiye ivangavanze harimo urutoki, ibigori, ibishyimbo ndetse n'ibindi. Ni byiza gukora ubuhinzi buvanguye imyaka kuko ni byo byongera umusaruro kurushaho.

Umuturage uri kwita ku biti bye bya avoka bivanze n'imyaka yindi harimo n'urutoki, ni byiza kuvanga ibi biti n'imyaka kuko bifasha mu gukumira imiyaga ishobora kugusha iyi myaka.

Abaturage b'ingeri zitandukanye, aho bahuriye hamwe mu gusarura umusaruro wabo ukomoka ku buhinzi bw'imboga ndetse n'ibindi bitandukanye, harimo: karoti, amashu, dodo ndetse n'ibindi.

Abaturage bari mu muganda, aho bari guharura ibyatsi byo ku muhanda, kugira ngo inzira nyabagendwa irusheho kuba nziza, igikorwa kigenda kiba uko cyateganyijwe mu midugudu, ni byiza kucyitabira.

Ubuhinzi bw'imyumbati, imyumbati ni kimwe mu biribwa bivamo ibintu byinshi harimo nk'ifu y'ubugari ndetse n'ibibenya, ni byiza kwita ku bihingwa by'imyumbati tubibungabunga kugira ngo bidacika mu gihugu.

Umuturage urimo urita ku gihingwa cye cy'inyanya, agisasira kugira ngo n'izizaba ziri hasi zitazangirika kandi inyanya zikomeze kubona ifumbire ihagije.

Umusaruro ukomoka ku buhinzi bw'ibirayi, aho abacuruzi batandukanye bashobora kubirangura, bakabicuruza mu ntara cyangwa mu migi imwe n'imwe itandukanye y'igihugu bityo abaturage bakabona ibyo kurya biboroheye.

Abahinzi bari gukora umurimo wo kubagara ibigori, ni byiza ko ibihingwa byitabwaho hakurwamo ibyatsi bindi bishobora kwangiza imikurire myiza y'ibyo bihingwa.

Ibirayi bimwe mu bihingwa bihingwa mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda, mu Karere ka Musanze na Burera. Ni igihingwa cyiza cyane kuko giteza imbere ugikora kandi kikanatuma abaturage babona ibyo kurya.

Umusaruro w'ibigori ni byiza guhunika ibigori mu buryo bwiza kandi bugezweho, kuko bikunda kwangirika cyane nko kubora ndetse no kuzana uruhumbu rushobora gutera indwara za kanseri, imyijima n'izindi.

Ubuhinzi bw'umuceri, akaba ari ubuhinzi bukorerwa mu gishanga ahantu haba amazi menshi, ni byiza kwita ku muceri ukamenya igihe nyacyo cyo kuwutera ndetse no kongeramo ifumbire, kugira ngo uzagire umusaruro wifuza.

Ubuhinzi bw'urutoki, bukaba ari ubuhinzi bwiganje mu ntara y'iburasirazuba, cyane cyane mu karere ka Rwamagana mu gihugu cy'u Rwanda, ni ubuhinzi buteza imbere ababukora.

Umusaruro ukomoka ku buhinzi bw'ibitoki, utera kwizihirwa ku bukora, kuko aba ari kubara inyungu zavuye mu byuya bye, ndetse n'amafaranga agiye kubona bityo akiteza imbere.

Amahunikiro y'imisaruro y'ibikomoka ku buhinzi, ibi ni ukugira ngo ubuhinzi butere imbere kandi birusheho gufasha abaturarwanda kubona ibyo kurya bitabagoye.

Ubucuruzi bwa voka bumwe mu buteza imbere ubukora, cyane cyane ko uru rubuto rukenerwa n'abantu batari bake buri munsi kugira ngo huzuzwe gahunda yo kubona indyo yuzuye.

Igiti cyatemwe kugira ngo gikurwemo ibindi byo kwifashisha nk'inkwi zo gutekesha, gusa ni byiza kwibuka ko gahunda ya leta ari ugutema igiti kimwe maze ubundi ugatera bibiri.

Ahatunganyirizwa ibiti bivangwa n'imyaka avoka, kimwe mu biti bivamo imbuto z'avoka zifashishwa mu gutanga amafaranga mu buryo bw'ubucuruzi ndetse no gutanga intungamubiri ziganjemo ibinyamavuta.

Ibiti bivangwa n'imyaka, ni byiza gutera imyaka ariko tukayivanga n'ibiti byabugenewe bivangwa na yo kugira ngo tuyirinde isuri, cyangwa imiyaga imwe n'imwe ishobora kuyangiza.

Ahatunganyirizwa ingemwe z'igihingwa cy'icunga, rumwe mu rubuto rwiza cyane rubamo vitamine nyinshi zifasha abantu barya urwo rubuto kugira ubuzima bwiza.

Gutera ishyamba ku misozi ihanamye ndetse no ku butaka buriho ubusa, ni bumwe mu buryo bwo kubungabunga ubwo butaka, kugira ngo budatwarwa n'isuri cyangwa imiyaga hamwe n'inkangu.

Indabo zishyirwa imbere ku mabaraza y'amazu y'abantu kugira ngo byongere ubwiza ndetse bunasukure ikirere cy'aho hantu, ni byiza kugira indabo nk'izi ku mazu ariko ukanazitaho kugira ngo zirusheho gusa neza.

Ubuhinzi bwa kijyambere bugezweho bw'imbuto zizwi nk'amacunga, izi mbuto ni nziza kuko zitanga umusaruro, haba mu buryo bw'amafaranga kandi zikaba ziniganjemo intungamubiri cyane cyane amavitamine atandukanye.

Ubuhinzi butari ubwa kijyambere kuko bukomatanya ibihingwa by'ubwoko bigiye bitandukanye, harimo avoka, urutoki, amateke, ibishyimbo ndetse n'ibindi.

Ubuhinzi bw'urutoki ndetse n'urubingo. Urubingo rwifashishwa mu kugaburirwa amatungo kugira ngo amatungo arusheho gukura neza no gutanga umukamo wifuzwa. Bityo ni byiza kurwitaho. Urutoki narwo rutanga amafaranga ndetse n'umutobe.

Ibimera bikunze kuba ku ruzitiro kugira ngo bitange ubwiza ndetse n'uburanga kuri urwo ruzitiro, gusa ni byiza kwita kuri ibi bimera ndetse ukanabiconga kugira ngo birusheho gusa neza.

Gutema amashyamba si byiza kuko bituma ikirere cyacu kirushaho kwangirika, bityo ihindagurika ry'ibihe rikaba ribi n'imvura ntigwire ku gihe. Ni byiza gushishikarira gutera ibiti kurusha kubitema.

Imigwegwe kimwe mu bimera gakondo byifashishwaga n'abanyarwanda mu kuboha imisambi cyangwa ibirago byakoreshwaga mu kwicazaho abashyitsi ndetse n'ibwami.

Ubuhinzi bw'amashu. Amashu ni meza kandi ni imboga zitunze benshi, haba abazirya, abazicuruza, abaziranguza ndetse n'amahoteli n'amaresitora. Ni byiza kwita kuri ubu buhinzi, tubukora mu buryo bugezweho.

Ubuhinzi bukomatanyije bw'ibihingwa bitandukanye, harimo amateke, dodo, urutoki, imyembe, ndetse n'ibindi, ni byiza kwimakaza umuco wo gutandukanya ibihingwa kuko ari byo bituma tubona umusaruro twifuza.

Ishyamba ahasangwa urusobe rw'ibinyabuzima ndetse n'ibimera bigiye bitandukanye, harimo ibyifashishwa mu buvuzi, ibiti bishobora kwifashishwa mu kubaka ndetse n'ibindi.

Icyapa giteye mu busitani kikaba kiranga ahantu hatangirwa serivisi zigiye zitandukanye harimo iz'amacumbi, resitora, siporo, masaje ndetse n'ibindi.

Ubuhinzi bw'imbuto z'intababara, ni ubuhinzi buhinze mu buryo bugezweho, kuko izi mbuto zishingiriwe n'ibiti kugira zizamukireho, bityo zere neza kandi zitange umusaruro wifuzwa.

Ubuhinzi bukorerwa ahabugenewe, cyane cyane mu kabande, iki gihingwa kikaba ari igihingwa cy'intoryi, imwe mu mboga ziganjemo intungamubiri zitandukanye zifasha umubiri kubaho neza.

Ubuhinzi bw'inyanya bugezweho kandi bigaragara ko zitaweho neza, zibonera imiti ku gihe kandi zihinze aho zibona amazi ahagije, bityo zikabasha gukura neza kandi zikaba zinakeye.

Akarima k'igikoni, imwe muri gahunda za Leta yo kurwanya igwingira ry'abana ndetse no kwimakaza umuco wo kurya indyo yuzuye mu baturage, hakaba hahinzwemo imboga zigiye zitandukanye harimo imbwija.

Ibizwi nka pipiniyeri, ahatunganyirizwa ibiti bigiye bitandukanye byifashishwa mu buhinzi, yaba ibivangwa n'imyaka ndetse n'ibikoreshwa mu busitani nyaburanga. Ni byiza kubungabunga ndetse no gutera ibiti bivangwa n'imyaka kugira ngo turinde isuri.

Umusaruro w'ubuhinzi bw'ibitunguru, kimwe mu byifashishwa mu buzima bwa buri munsi ndetse kikanakorwamo ibinyabutabire bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zimwe na zimwe.

Umubyeyi ndetse n'umukobwa bishimiye umusaruro usa neza w'intoryi bakuye mu buhinzi bwabo, ni byiza ko ubuhinzi buhabwa agaciro kuko bufatiye runini igihugu.

Umwana uri gukorera inyanya ari kumwe n'umubyeyi we, ni byiza ko dutoza abana bacu gukora imirimo hakiri kare ariko tunubahiriza uburenganzira bwabo harimo nko kwiga ndetse no kuruhuka.

Ubucuruzi bw'imbuto harimo imineke itandukanye yaba kamaramasenge, goromisheri cyangwa poyo ndetse na avoka Ni byiza gukangukira gukora ubu bucuruzi kuko imbuto zikenerwa mubuzima bwa buri munsi.

Karoti zimwe mu mboga nziza zivamo vitamine zitandukanye harimo vitamine A, cyane cyane yifashishwa mu gutuma umuntu areba neza. Ni byiza kurya imbuto ndetse n'imboga kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Ubucuruzi bw'imbuto zitandukanye harimo imineke amatunda ndetse n'imyembe, n'ubucuruzi buteza imbere ubukora kuko buvamo amafaranga menshi kandi na we agasora, bityo n'Igihugu kigatera imbere.

Ubuhinzi bw'intoryi ndetse n'ibindi bihingwa bigiye bitandukanye, ubuhinzi bukorerwa mu mibande ndetse n'ahandi hantu habugenewe bityo umuhinzi agomba kwita ku bihingwa bye harimo no kubisasira.

Umuturage uri kwita ku gihingwa cye cy'imbuto z'intababara, akaba ari imbuto nziza cyane kuko zitanga intungamubiri ku bana ndetse n'abagore batwite mbese abantu muri rusange, gusa gisaba kwitabwaho bihagije.

Igihingwa kizwi nka kokombure, igihingwa cyifashishwa n'abatari bake kuko kiri mu bihingwa birinda indwara zirimo nk'umuvuduko w'amaraso, isukari nyinshi mu mubiri kandi n'abagicuruza bakabona amafaranga.

Ubusitani nyaburanga burimo ibimera bigiye bitandukanye, byifashishwa mu gutaka ubwiza ahantu cyane nko mu mahoteli, mu bigo bya Leta, mu mashuri, mu mihanda ndetse n'ahandi.

Ubusitani burimo ibimera bigiye bitandukanye. Ni byiza kwita ku busitani cyane ko bifasha mu gutuma uburanga bw'ahantu burushaho kuba bwiza bityo kubungabunga ubusitani ni ingenzi.

Urusenda kimwe mu bihingwa bigezweho muri kino gihe, kuko kiri mu bihingwa biri gutanga amafaranga ku babikora kandi rwoherezwa hanze y'igihugu mu kwifashishwa mu gukora ibintu bitandukanye, harimo n'imiti.

Ubucuruzi bw'imbuto harimo intababara, amacunga, imyembe, indimu ndetse n'ibinyomoro. Ni byiza kurya imbuto kuko zifasha umubiri wacu gukura neza ndetse no gutekereza neza.

Umukindo, kimwe mu bimera byiza cyane bikunze kuba mu busitani ndetse no ku mihanda kuko kigaragara neza bigaha isura nziza aho giteye ndetse n'uburanga, cyane cyane nko mu mijyi, mu ngo n'ahandi.

Ahatunganyirizwa ingemwe z'ibiti by'ibinyomoro, ubuhinzi bw'ibinyomoro ni bumwe mu buhinzi bushobora guteza imbere ubukora kuko ibinyomoro bikenerwa mu buzima bwa buri munsi bw'umwana ndetse n'umugore utwite mbese abantu muri rusange.

Ubucuruzi bw'imbuto harimo amacunga, intababara, imyembe, inanasi, pome, ibinyomoro ndetse n'ibindi, akaba ari ubucuruzi bwiza kuko butanga amafaranga k'ubukora bityo agatera imbere.

Ubuhinzi bwa puwavuro, kimwe mu mboga zifashishwa na benshi mu kuryoshya ibiryo ariko ni byiza ko cyitabwaho kugira ngo gikure neza kandi gitange umusaruro ukwiye.

Umwana uri gusarura imiteja, si byiza gukoresha abana mu bikorwa nk'ibi ngibi, kuko bituma batabasha kubona uburezi bukwiye, cyane cyane nko kujya ku ishuri.

Umuhinzi wishimiye umusaruro we w'intoryi. Igihingwa cy'intoryi kiri mu bihingwa biteza imbere abantu cyane ko ziribwa n'ingeri z'abantu bose mu gihugu, bityo ni byiza kukicyitaho kugira ngo kiguteze imbere.

Ubuhinzi bw'imboga harimo imiteja, puwavuro, puwaro, ibibiringanya, te ndetse na kokombure ni bimwe mu biteza imbere ubukora kuko abona amafaranga kandi akanateza Igihugu imbere binyuze mu misoro.

Ahari gutangirwa ibiti bivangwa n'imyaka cyangwa bishobora no guterwa mu ngo z'abantu, ibi biti bikaba ari iby'urubuto rwa avoka, rumwe mu rubuto rwiza cyane ku mubiri wacu.

Ubuhinzi bw'urubuto ruzwi ku izina ry'ikinyomoro, ni ubuhinzi bukozwe mu buryo bwiza kuko bigaragara ko iki gihingwa gitoshyewe kandi kiri kwera imbuto nyinshi kandi kinitaweho.

Umuhinzi uri kwita ku gihingwa cye inyanya, zikaba zishingiriye kandi zihinze ku murongo kugira ngo zitange umusaruro wifuzwa kandi zitangirika ku buryo bworoshye.

Ubuhinzi bwi'imbuto zizwi ku izina ry'intababara. Ni byiza kwita kuri zino mbuto kuko cyane zikunda kuzamuka ku biti kuko nibwo zitanga umusaruro mwiza. Ni byiza rero kuzishingira ibiti birebire, zikuriraho.

Ubuhinzi bwitaweho bw'amashu, iki kikaba ari igihingwa cyifashishwa n'abaturarwanda bose cyane cyane mu bigo by'amashuri kuko gitubuka kandi na none kigatanga amafaranga ku bacuruzi.

Mu isoko ahacururizwa ibintu bigiye bitandukanye, harimo n'imboga n'imbuto ndetse n'ibindi, imbuto ziganjemo imineke, watemelon, amatunda, ibinyomoro n'ibindi.

Ubusitani imbere y'uruzitiro rw'urugo cyangwa imbere ku muhanda, ni byiza gutera ubusitani nk'ubu ngubu kuko bituma ikirere cy'agace dutuyemo kigumana umwuka mwiza ndetse n'uburanga.

Tangawizi, kimwe mu bimera byiza cyane bishobora kwifashishwa mu buvuzi kuko havamo imiti imwe n'imwe ivura inkorora, ndetse n'ibicurane, kandi gishobora no kwifashishwa mu gukora ibinyobwa bitandukanye.

Ubuhinzi bw'amacunga ni imbuto nziza cyane kuko zibamo vitamine umubiri ukenera, yaba amavitamine A cyangwa vitamine B n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye, gusa ni na byiza kwita kuri kino gihingwa kuko gitanga amafaranga.

Imboga zisaruye z'imbwija kandi ziteguye neza mu buryo bwo kuzifunga mu mifungo kugira ngo zijyane ku isoko gucuruza, bityo ziteze imbere ukora ubu buhinzi.

Ubusitani bukikijwe n'indabo zigiye zitandukanye, izi ndabo zikaba zifasha mu kubungabunga ubutaka n'ubusitani kugirango ngo burusheho kugira ubwiza bugaragara.

Ubusitani buteyemo ibiti bigiye bitandukanye, harimo igiti cy'amapera, iboberi ndetse na pinusi, ni byiza kubungabunga ubusitani bwacu kugira ngo burusheho kugira isura nziza.

Akarima k'igikoni, imwe muri gahunda za leta yagiye yifashishwa mu guhangana n'ikibazo cy'igwingira ry'abana bari munsi y'imyaka itanu, babasha kubona indyo yuzuye.

Akarima k'igikoni imwe muri gahunda za leta ishishikarizwa abaturage kugira ngo babashe kubona imbog, bityo indyo yabo ibe yuzuye ni byiza ko buri muturarwanda wese agira akarima k'igikoni.

Ubuhinzi bw'imbuto zizwi nk'ibinyomoro. Izi ni imbuto nziza, cyane cyane ku bana bato ndetse n'abagore batwite kuko zongera amaraso mu mubiri bityo umwana uri mu nda ndetse n'umwana muto agakura neza.

Umuturage uhinga igihingwa cy'inyanya, aho ari kuzitera umuti wabugenewe wica udukoko bityo zikabasha gukura neza uko bukwiye kandi zigatanga umusaruro mu gihe cyagenwe.

Akarima gahinzemo imboga zitandukanye harimo imbwija ndetse na karoti, gusa ntabwo gahinzwe mu buryo bugezweho kuko ubona ko bititaweho neza kandi bishobora kuba bitareze nk'uko bikwiye.

Ikimera cyifashishwa cyane cyane mu busitani, kikaba kizana ubwiza ndetse kigahereza uburanga ahantu runaka, cyane cyane nko ku mahoteli ku mihanda ndetse n'ahandi.

Ubuhinzi bwiza, bugezweho, bwa kijyambere bw'inyanya. Aho inyanya zishingirwarirwa kandi zikanasasirwa kugira ngo zikure neza kandi zitange umusaruro wifuzwa kandi zibe zinasa neza.

Ubucuruzi bw'imbuto cyane cyane ibinyomoro ndetse n'amatunda, imbuto ni nziza mu buzima bwa buri munsi cyane cyane ku bana n'abagore batwite, kuko bibafasha kongera amaraso ndetse no gukura neza.

Igihingwa cy'urusenda ndetse n'umuturage uri kucyitaho. Urusenda ni kimwe mu bihingwa bizana amafaranga kuko rushobora koherezwa hanze y'u Rwanda. Ikindi kandi rukorwamo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi.

Umukorerabushake uri gufasha abaturage, uburyo bwiza bwo gutegura akarima k'igikoni ndetse n'uburyo bwo guteraho imboga, kugira ngo bifashe mu kurandura imirire mibi mu bana.

Ubuhinzi bw'intoryi zisasiye kugira ngo zibashe gukura neza zinabona ifumbire n'intungamubiri mu butaka zikeneye, bityo ni byiza ko umuturage wese yigiraho kugira ngo abashe kumenya uko ubu buhinzi bukorwa.

Umusaruro ukomoka ku buhinzi bwa karoti. Zikaba zisa neza kandi bigaragara ko zitaweho zigakura, bityo umusaruro na wo ukaba mwiza, ari ryo shema ry'umuhinzi.

Ibiti bya kijyambere by'urubuto rw'avoka, urubuto rwiza cyane rwera cyane kandi rugafasha abaturage ndetse n'abaruhinga kwiteza imbere no kubona indyo yuzuye.

Avoka zimwe mu mbuto nziza cyane ku mubiri w'umuntu kuko habamo intungamubiri z'ibinyamavuta, bifasha umubiri mu kubona imbaraga zihagije. Ni byiza kurya avoka.

Isoko ahacururizwa ibintu bigiye bitandukanye, ubu bukaba ari ubucuruzi bw'imbuto cyane cyane ibinyomoro, amatunda ndetse n'imyembe, amacunga ndetse n'izindi.

Umwana ufashe ingemwe z'imbuto zigiye zitandukanye, aho zigiye kugemurirwa ahabugenewe. Ni byiza gutoza abana bacu gukora bakiri bato ariko hubahirizwa uburenganzira bwabo.

Ubuhinzi bw'imboga, aho abaturage bari gukorera igihingwa cya karoti. Ni byiza kwita ku mboga kugira ngo zibashe kuduha umusaruro twifuza kandi tubone n'indyo yuzuye.

Imineke, imwe mu rubuto rwiza cyane, rufasha abantu gutera imbere, haba mu buryo bw'amafaranga ku bayicuruza ndetse rukanafasha ubwonko gutekereza neza, ku bantu bariye imineke.

Ubusitani imbere y'urugo, ni byiza ko tugira uburyo dutunganya imbere y'ingo zacu, tuhatera ubusitani kuko byongera uburanga, ariko kandi bikanafasha kubungabunga ubutaka.

Ubucuruzi bw'imboga zitandukanye, harimo inyanya, karoti, ubushaza, puwalo, amashu, ndetse n'ibindi, bukaba ari ubucuruzi butanga amafaranga ndetse bukanateza imbere ubukora.

Igitunguru kimwe mu mboga zifashishwa n'abantu bose kuko cyongera uburyohe ndetse kikanatanga impumuro nziza mu byo kurya byateguwe, bityo bikanongerera apeti n'ubushake bwo kurya ugiye kubirya.

Ubuhinzi bw'intoryi ariko izi bigaragara ko zatinze gusarurwa, bityo zigatangira gutukurira ku giti, ni byiza ko umuhinzi amenya igihe cyiza cyo gusarura umusaruro we kugira ngo atazahomba.

Ubucuruzi bw'imbuto cyane cyane iziganjemo wotameloni, amacunga, amatunda ndetse n'ibinyomoro hamwe n'indimu. Ni bwiza cyane kuko buzana amafaranga kubikora bityo agatera imbere n'igihugu kigatera imbere.

Umuturage uri kuhira imyaka ye, ni byiza kwita ku myaka yacu tuyuhira kuko biyifasha gukura neza cyane cyane nko mu bihe by'izuba bitagwamo imvura nyinshi.

Umuturage uri kuhirira imboga ze za dodo. Izi mboga ni nziza ku buzima bwa buri munsi bw'abantu kuko ziri mu birinda indwara ndetse n'umubiri bityo ubuzima bukarushaho kuba bwiza.

Ababyeyi bari kuhira imirima yabo ndetse n'ibihingwa byabo. Ni byiza kwimakaza umuco wo kuhira imyaka, cyane cyane nko mu duce tuvamo izuba ryinshi cyane kandi hatagera amazi.

Ivomo rizwi ku izina rya rupika aho Abaturarwanda batandukanye babasha gukura amazi meza yo kwifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi, ni mu buryo bwo kugira ngo abaturage babone amazi meza.

Uburyo bugezweho bwo kuhira ibimera hifashishijwe utumashini twabugenewe kugira ngo imyaka ibone amazi ahagije kandi mu gihe gito, ni byiza ko wuhira imyaka cyane mu gihe cy'izuba.

Umuturage uri gukoresha ibikoresho byabugenewe mu kuhira ibihingwa byiwe. Ni byiza gukoresha ubu buryo cyane nk'ahantu hatagira amazi ahagije ngo ibimera bibe byakura neza.

Umuturage urimo kuhirira ubuhinzi bwe bw'ibinyomoro, ibinyomoro ni rumwe mu rubuto rwifashishwa n'abantu batari bake cyane cyane abafite abana n'abagore batwite kuko bifasha mu kongera amaraso mu mubiri.

Umuturage uri kuhira umwayi yahinze kugira ngo ubashe gukura neza, cyane ko ububobere mu butaka butuma ikimera kizamuka neza bityo kikazakura neza.

Ubuhinzi bw'ibigori mu bice bitagerwamo n'imvura nyinshi, aho bari kwifashisha uburyo bugezweho bwo kuhira imyaka bakoresheje amahombo.

Umuturage urimo uruhira ibimera bye, hifashishijwe umugezi utemba ndetse n'amahombo, ni byiza kubungabunga ibimera byacu, tubihe amazi bikeneye cyane cyane nko mu bihe by'izuba.

Umumama uri kuhira imyaka ye yifashishije ihombo ndetse n'amazi, ni byiza ko imyaka yuhirwa cyane cyane nko mu bihe by'izuba kugira ngo irusheho gukura neza izatange imisaruro yifuzwa.

Ubuhinzi bukorewe ku buhanabwe bw'imisozi ariko hubahirizwa uburyo bwashyizweho bwo kurinda isuri nko gutera ibiti ndetse no guca amaterasi y'indinganire agenda afata amazi.

Mu gishanga ahakorerwa ubuhinzi bw'umuceri. Kubungabunga ibishanga hakorerwamo ubuhinzi bw'ibihingwa bitandukanye ni byiza cyane kuko bifasha abaturarwanda kubona ibyo kurya ku bwinshi, bakihaza kandi bakanahaza n'amasoko.

Ubwiza nyaburanga bw'imisozi buriho urusobe rw'ibinyabuzima ndetse n'abantu batuyeho, hariho ibiti biteyeho amashyamba ndetse n'intoki ndetse n'ahantu ho guhinga.

Igice cyo ku ruhande rw'ikibuga cy'indege giherereye mu Karere ka Huye mu Ntara y'Amajyepfo i Butare. Ni kubungabunga ahantu nk'aha, kuko haba haranyuze amateka menshi y'igihugu.

Ubuhinzi bukorewe ku muhaname bw'imisozi, ariko himakazwa umuco wo gucukura imisingi ifata amazi, kugira ngo birinde isuri no kuba imyaka yatembanywa n'amazi.

Umusozi uhanamye cyane ukorerwaho ubuhinzi ariko hakanakorerwaho ibikorwa byo kurinda isuri, aho hagiwe hacibwa imiringoti izwi nk'amaterasi kugira ngo bifate amazi.

Ubuso bunini bw'ubutaka buhinzeho ishyamba, ndetse n'ibindi bihingwa bigiye bitandukanye. Ni byiza ko dutera amashyamba bityo bigafasha mu kubungabunga ubutaka bibirinda isuri.

Urusobe rw'ibintu nyaburanga nk'imigezi ndetse n'imisozi iryoheye amaso kuyireba, hakorerwa ibikorwa bitandukanye bigiye biganjemo ubuhinzi, uburobyi ndetse n'imiturire.

Ahanikirwa ikawa yasaruwe neza kugira ngo itunganywe ivemo umusaruro ushobora koherezwa hanze, bityo byinjize amadevize mu gihugu, kandi n'ubikora atere imbere.

Mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo ahaherereye ikibuga cy'indege, kikaba ari ikibuga cyahoze gikoreshwa cyane mu bihe byo hambere kuko hagwagaho indege ziturutse mu bihugu bitandukanye.

Ubuhinzi bwa kijyambere bugezweho aho imyaka iterwa ku murongo kandi hakaba hifashishijwe n'amaturasi kugira ngo birinde isuri.

Umuhanda nyabagendwa mu gace k'imisozi ihingwaho icyayi. Icyayi ni kimwe mu bimera ndetse n'ibihingwa byongera amadovize mu gihugu kuko cyoherezwa hanze.

Agace gatuwemo n'abantu ndetse kanakorerwamo ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, harimo iby'ubuhinzi, mu bishanga, ndetse no gutera amashyamba. Abaturage bakaba batuye ku buhaname bw'umusozi.

Igishanga gikorerwamo ubuhinzi bw'umuceri ndetse n'ubundi buhinzi butandukanye, harimo nk'ibigori, imbuto, ibijumba, amasaka ndetse n'ibindi. Ni byiza kubungabunga ibishanga kuko ari ingirakamaro.

Ihene ziri kurisha ku gasozi, ni byiza ko amatungo abona ibiyatunga bihagije kugira ngo abashe gukura neza bityo umusaruro tuyitezemo tubashe kuwubona.

Gahunda ya girinka munyarwanda, ikaba ari iy'umukuru w'igihugu kugira ngo ifashe abanyarwanda bo hasi kugira ngo biteze imbere, babone ifumbire ndetse n'amata bityo na bo babeho neza.

Inzu zizwi izina ry'ibiraro zifashishwa mu bworozi bw'amatungo magufi cyangwa amaremare, ni byiza ko amatungo agira ahantu ho kuba kuko bifasha mu gukusanya ifumbire ndetse no kubaho neza kwayo.

Inka nziza zishishe ziri kurisha ahantu hari ubwatsi butoshye, bigaragara ko zitanga n'umukamo mwinshi, inka ni imwe mu matungo yororwa n'abantu, akaba afasha abantu mu gutanga ifumbire, inyama ndetse no kurera.

Inkoko imwe mu matungo yororwa n'abantu, akaba ari amatungo akunzwe n'abatari bake cyane cyane abahinzi n'aborozi kuko itanga ifumbire nziza cyane ndetse n'amafaranga.

Inka ni imwe mu matungo yororwa n'ikiremwamuntu kandi ikaba ari inka ifatiye runini Abanyarwanda, kuko itanga umukamo bityo bigafasha abana gukura neza ndetse no kubona intungamubiri bakeneye.

Ingurube, imwe mu matungo yororwa n'abantu benshi kandi akaba yororwa kugira ngo atange umusaruro mu buryo bw'amafaranga, kongera ifumbire mu buhinzi, kugira ngo n'inyama ziboneke ku isoko.

Ihene ni imwe mu matungo meza cyane kuko ari matungo yoroshye kuyorora atarushya cyane kandi adakunze kurwaragurika ikindi akaba itanga amafaranga kuko igezweho muri ino minsi kubera kubura kwayo.

Ihene imwe mu matungo meza yororwa n'abaturarwanda benshi cyane, ikaba inatanga amafaranga kuko ihenze muri kino gihe kubera kubura kwayo.

Inkoko imwe mu matungo yororwa n'abantu benshi akabasha gutanga umusaruro harimo nk'ifumbire amagi inyama ndetse n'ibindi gusa ni byiza ko zitabwaho uko bikwiye.

Umuryango wishimye ukora umurimo w'ubuhinzi ndetse n'ubworozi bw'amatungo yaba amato nk'inkoko ndetse n'inka, aho bari kugaburira inka zabo cyane cyane ko zibafasha mu kubona ifumbire ifasha ubuhinzi.

Ubworozi bw'ingurube, rimwe mu matungo yororwa cyane kuko ari itungo ryororoka vuba kandi rikaba rinatunze benshi, cyane cyane ko ritanga amafaranga ndetse n'inyama.

Ihene rimwe mu matungo yororwa n'Abanyarwanda batari bake, kuko ari itungo ritanga amafaranga kandi rikaba rinahenze muri kino gihe, ikindi abantu bararikunda kuko barikuramo inyama.

Ubworozi bw'ingurube rimwe mu matungo afasha Abanyarwanda batari bake kuko ritanga umusaruro w'ifumbire ndetse n'inyama kandi rikaba ryororoka vuba.

Ubworozi bw'amatungo mato ihene n'amatungo makuru inka ni ubworozi bwiza cyane kuko ibi byose biteza imbere ubikora muburyo bw'amafaranga kumuha ifumbire ndetse n'umukamo.

Ubworozi bw'ihene, ni bumwe mu bworozi bukorwa n'abaturarwanda benshi, ihene ni imwe mu matungo atanga umusaruro mu buryo bw'amafaranga, ikanatanga ifumbire ndetse ikanatanga inyama.

Ubworozi bw'inkoko. Inkoko za kijyambere zororoka vuba, ni bumwe mu bworozi bugezweho muri kino gihe, kuko izi nkoko zitanga inyama, kandi zikanatera neza ndetse zikanatanga amafaranga.

Ubworozi bw'inka za kijyambere, akaba ari inka zitanga umukamo mwinshi kandi zikaba zinororoka vuba. Ni byiza ko zitabwaho zikaba ahantu hafite isuku kuko bituma zitarwaragurika.

Ihene rimwe mu matungo magufi asigaye ahenze cyane kuko yabaye make, bityo ubworozi bwayo bukaba buteza imbere ubukora mu buryo bwo kubona amafaranga, tutibagiwe n'ababucuruza.

Ihene amwe mu matungo yororwa n'abaturarwanda bagiye batandukanye cyane cyane abo mu ngeri zo hasi, aho yubakiwe ikiraro kugira ngo abashe kwitabwaho neza kandi atange umusaruro w'ifumbire.

Ubworozi bw'ingurube ni bwiza cyane gusa busaba kwitonda, kuko ingurube zikunda kurwaragurika, kandi zigakenera kwitabwaho mu bijyanye n'isuku, bizifasha gukura neza no gutanga umusaruro wifuzwa.

Ihene iri kwitabwaho kugira ngo ibashe gukira igikomere ifite, ikaba iri guterwa umuti wabugenewe uvura ibikomere uterwa ku ruhu, ni byiza ko umworozi yita ku matungo akayarinda kwandura.

Abayobozi bo mu ngeri zitandukanye aho basuye ahakorerwa ubworozi bwa kijyambere bw'amatungo harimo inka. Ni abayobozi baje kureba uburyo umuturage akora ubu bworozi ndetse n'uburyo yita ku nka kugira ngo zimuhe umusaruro ukwiye.

Ihene imwe mu matungo yororwa n'abanyarwanda, cyane cyane bo mu ngeri zo hasi, kuko ari itungo ribafasha kubona ifumbire yo gufumbira imyaka yabo, ndetse no kongera amafaranga.

Inka iri konsa inyana yayo, ubworozi bw'inka ni bumwe mu bworozi bwiza, kuko butanga amafaranga ku bukora, kandi bukanunganira igikorwa cy'ubuhinzi, bityo ni byiza gushishikariza Abaturarwanda gukangukira korora inka.

Ubworozi bw'inkoko, inkoko ni imwe mu matungo afatiye runini Abaturarwanda kuko inkoko zitera amagi kandi akaba yiganjemo intungamubiri zifasha abana gukura neza, ikindi inkoko zitanga n'amafaranga.

Ubworozi bw'imishwi y'inkoko busabwa kwitonderwa cyane kuko iyi mishwi ikunda guhura n'ibibazo byo kurwara ndetse no gupfa vuba bityo ni byiza kuyitaho uko bikwiye.

Abaturage bari korozwa muri gahunda ya ''girinka'', aho bari guhabwa inka kugira ngo zibafashe kwiteza imbere, babona ifumbire ndetse n'umukamo.

Inka imwe mu matungo yororerwa mu rugo, akaba ari itungo ryiza kuko ritanga umukamo w'amata, bityo akabasha gutunga abantu, bakayabonamo intungamubiri.

Ubworozi bw'inkwavu zimwe mu matungo yororoka vuba, kandi akanatanga umusaruro mu gihe gitoya cyane, gusa bisaba kuzitaho no kuzibungabunga, kuko zirwaragurika.

Itungo ry'ingurube ryabwaguye aho riri konsa ibibwana byaryo. Ni byiza korora ingurube kuko ni rimwe mu matungo atanga umusaruro vuba kandi akororoka cyane.

Ubworozi bwa kijyambere bw'inkwavu, inkwavu ni zimwe mu matungo yororoka vuba kandi akaba ari amatungo meza gusa ararushya kuko akunda kurwaragurika, bityo ni byiza kuyitaho uko bikwiye.

Ubworozi bw'ingurube. Imwe mu matungo yororwa n'abantu benshi. Gusa ni byiza ko yororerwa ahantu habugenewe, cyane ko akunda kugira ibibazo by'uburwayi mu buryo bworoshye bityo bikaba byatera igihombo.

Intama imwe mu matungo yororwa n'Abanyarwanda ndetse n'abantu batandukanye cyane cyane abafite inka kuko bituma inka zirisha neza ndetse n'intama zigakura neza, ni byiza ko zitabwaho na zo nk'uko bikwiye.

Ubworozi bw'ingurube imwe mu bworozi bukorwa n'abantu benshi, kuko ingurube ari imwe mu matungo yororoka vuba, kandi agatanga n'umusaruro, haba uw'ifumbire ndetse n'amafaranga.

Umuturage ukora ubworozi bw'inka, umwe mu mirimo ukorwa n'Abanyarwanda benshi cyane kandi b'ingeri zitandukanye, kuko igira uruhare runini mu guteza Igihugu ndetse n'umuturage imbere.

Ubworozi bw'ingurube imwe mu matungo yororwa n'ingeri nyinshi z'Abaturarwanda kuko ari itungo ryororoka vuba kandi rigatanga amafaranga ndetse n'inyama zo kurya.

Ingurube ni imwe mu matungo yororwa n'abantu benshi, ikaba itanga umusaruro mu gihe gito kuko yororoka cyane, gusa bisaba kuyitaho neza kuko ikunda kurwara bityo ni byiza ko iba ahantu hasukuye.

Ingemwe z'igihingwa cy'inyanya, igihingwa cy'inyanya ni kimwe mu bihingwa bikwiye kwitabwaho kuko bigira umusaruro, kandi bikanateza imbere ubikora, bityo akabasha kwiyubaka no kubaka Igihugu.

Ubuhinzi bwa soya, kimwe mu bihingwa byiza cyane, kuko bibasha kwihanganira ibihe bigiye bitandukanye by'ihindagurika ry'ikirere, kandi hakaba harimo intungamubiri nyinshi.

Ubuhinzi bw'amashu. Amashu ni zimwe mu mboga ziribwa n'abantu benshi kandi zitubuka. Bityo ni byiza gushishikariza abakora umwuga w'ubuhinzi kuyahinga ku bwinshi cyane ko ari n'ameza ku mubiri.

Ubuhinzi bw'umuceri bukorerwa ahantu mu mibande haba amazi menshi kuko iki gihingwa gikenera amazi kuva gitangiye kumera kugeza cyeze. Ni byiza ko rero duharanira ko iki gihingwa gikura neza kugira ngo kiduhe umusaruro twifuza.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo bugezweho cyane cyane ubwifashishwa imyobo bityo hakagenda haba intera hagati y'ibishyimbo kugira ngo bibashe gukura neza bidahanganira ibibitunga.

Ahatunganyirizwa imbuto z'ibiti za avoka, ziterwa zivanze n'imyaka cyangwa n'ahandi hatandukanye nko mu ngo z'abantu ku giti cyabo, ni byiza gutera ibiti kuko binafasha mu kurwanya ihindagurika ry'ikirere.

Ubwanikiro bw'ibigori ni byiza kwita ku musaruro wacu w'ibigori kuko iyo utitaweho neza ukunda kugira ibibazo byo kubora kuzana uruhumbu, kwangirika bityo umuhinzi agahomba.

Ubuhinzi bwa kijyambere bw'inyanya bugezweho, aho zishingirirwa ku biti, kugira ngo zizamuke neza, bityo zere zisa neza kandi zitangiritse zinatange umusaruro wifuzwa.

Ubuhinzi bw'ibitunguru bumwe mu buhinzi bwiza kuko buteza imbere ubukora mu buryo bwo kubona amafaranga, ni byiza kwita kuri buno buhinzi kugira ngo ubashe kubona umusaruro wifuzwa wo guhaza isoko.

Ubuhinzi bw'inyanya bumwe mu buhinzi bwa kijyambere bukorwa n'umuntu wabihuguriwe kugira ngo abashe kuzitaho neza zitange umusaruro wifuzwa kandi zibe ari nziza.

Ubuhinzi bw'intoryi zimwe mu mboga zitunze abantu benshi, kuko zifashishwa mu kongera intungamubiri, ndetse no gutanga umusaruro mu buryo bw'amafaranga, cyane cyane mu bucuruzi.

Ubuhinzi bw'imboga imwe muri gahunda ifasha abaturarwanda mu guhangana n'ikibazo k'imirire mibi, aka karima k'igikoni kakaba gahinzemo amashu, dodo, intoryi, kakaba kari n'impande y'urubingo.

Ubuhinzi bukozwe mu buryo bwa kijyambere bugezweho aho hari ubuhinzi bw'imboga zitandukanye, zikaba zisasiwe kugira ngo zibashe gukura neza zibona ifumbire ihagije.

Imigezi yo mu bishanga, ni byiza kuyibungabunga cyane ko amazi yayo aba ari yo yifashishwa mu kuhira ibimera bihinze mu mibande mu gihe cy'izuba, bityo umuhinzi akazabona umusaruro.

Umusaruro w'ibigori aho uhunitswe ndetse ukaba unanitswe muri za hangari zitandukanye kugira ngo bitume bitabora kandi byume neza, bityo bitange umusaruro wifuzwa.

Ubuhinzi bw'ibigori butavangiwe ariko busarurwa ari uko ibigori byumye neza bikaba byaricuramishije kuko ari bwo kiba cyumye neza bityo bikakirinda kubora vuba.

Agace kazwi nka pipiniyeri, ahahingirwa ibiti bigiye bitandukanye, yaba ibivangwa n'imyaka ndetse n'ibindi.

Inka irimo iraterwa urushinge n'umuntu wabiherewe ububasha, aho ari kuyivura ibibazo bitandukanye ishobora kuba ifite. Ni byiza kwibuka ko amatungo na yo ari ibinyabuzima bigomba kwitabwaho.

Abaganga babihuguriwe b'amatungo, aho bari gutera umuti inka ifite ikibazo cy'uburwayi kugira ngo ibashe gukira bityo itange umusaruro n'umukamo yifuzwamo.

Ubworozi bw'inka aho ziri guterwa imiti kugira ngo yice udukoko dushobora kuzibasira harimo nk'uburondwe ndetse n'izindi zishobora guteza indwara zishobora guhitana aya matungo.

Umuganga wabihuguriwe uri gutera inka umuti kugira ngo ayivure ikibazo ifite. Ni byiza ko dushaka abaganga bizewe kugira ngo badufashe kuvura amatungo yacu.

Umuvuzi w'amatungo aho ari kwita ku nka azihereza umuti uzivura ibibazo bitandukanye zishobora kuba zagize, ni byiza gushaka abaganga babifitiye ububasha bw'amatungo kugira ngo tuvuze inka zacu.

Inka bari guteraho iherena ryifashishwa mu kuranga inka yashyizwe mu bwishingizi, ni byiza ko umworozi wese ashyira inka ze mu bwishingizi kuko bituma zibaho neza kandi yagira n'ibihombo akishyurwa.

Umuganga uri gukora igikorwa cyo gutera intanga inka, ni byiza kwifashisha abaganga babihuguriwe kugira ngo batere intanga inka cyane nk'igihe yanze kwima mu buryo busanzwe.

Umuvuzi wabihuguriwe, uri gutera inka cyangwa uri gukora muri nyababyeyi y'inka kugira ngo yumve uko imeze; ni byiza kwifashisha aba baganga kuko baba bazi ibyo bakora.

Ubworozi bw'inka ni bumwe mu bworozi bwiza, cyane ko inka ishobora gufasha mu bikorwa bigiye bitandukanye, harimo nk'izifashishwa mu buhinzi, izongera ifumbire, izitanga umukamo bityo bigateza imbere uzoroye.

Ubworozi bw'inkoko bumwe mu bworozi bugezweho muri kino gihe, kuko inkoko ziri gutanga umusaruro mwiza haba ku bijyanye n'amafaranga ndetse no kongera imirire myiza mu baturage ndetse no mu bana.

Ahacururizwa imiti igiye itandukanye yifashishwa mu bworozi ndetse no mu buhinzi, harimo iyica udukoko, iyirukana amasazi ndetse n'indi yongera umukamo.

Inzovu imwe mu nyamaswa igira ibiro byinshi ku Isi kandi n'amahembe yayo bikavugwa ko ari imari, bityo ni byiza kuzirinda ba rushimusi kugira ngo batazigirira nabi bajya gucuruza amahembe yazo.

Inyamaswa zitandukanye, harimo imparage, impara, agasumbashyamba, bimwe mu byongerera igihugu abakerarugendo kandi izi nyamaswa zikaba ziherereye muri parike y'Akagera mu ntara y'Iburasirazuba.

Inkende imwe mu nyamaswa zikwiye kwitonderwa kuko ibana n'udukoko dushobora gutera indwara ku kiremwamuntu, harimo nka M Pox ndetse n'izindi zangiriza umuntu.

Inkende ni imwe mu nyamaswa zibana kandi zikanasabana n'abantu ariko ni izo kwitonderwa kuko zibana n'udukoko tumwe na tumwe dushobora gutera indwara ku mubiri w'umuntu.

Inkende, imwe mu nyamaswa zo kwitonderwa cyane kuko ikunze kuba aho abantu bari kandi ikaba ibana n'udusimba dushobora kwangiza umubiri w'umuntu kuko dutera indwara zitandukanye.

Impara, zimwe mu nyamaswa zikurura ba mukerarugendo batari bake, baje kureba uburanga bwazo ndetse n'uburyo zizi kwiruka; ziherereye mu Kagera mu Ntara y'Iburasirazuba, mu Karere ka Gatsibo.

Impala zimwe mu nyamaswa zikurura abakerarugendo bakava mu mahanga bakaza mu gihugu cyacu gusura, zikaba ziherereye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Gatsibo muri pariki y'Akagera.

Inkende, imwe mu nyamaswa iteye ubwuzu ariko ikaba ikunda kubana n'abantu cyangwa kuba aho abantu bari cyane, gusa ni byiza kuyitondera kuko ibana n'udukoko dushobora gutera indwara ku bantu.